Iyi nzu n'icyumba cya hoteri bakiriramo abakerarugendo, aha iki cyumba bacyita icyumba cyo kwiyakiriramo cyangwa sale yo kwiyakiriramo, igihe bari gufata icyo kunywa icyo kurya ndetse n'icyo....

Iyi ni botike yubakishijwe imbaho, ikubakishwa n'imigano impande yayo, hari amagare n'amasikariye ya sima, aha ngaha muri botiki bakoramo ibintu byinshi bitandukanye, gucuruza ibyo kurya ndetse n'ibindi bitandukanye.

Iyi ni hoteri bita Raparuma Hoteri iboneka mu karere ka Musanze haruguru y'akarere n'ibiro by'akarere, iyi hotel yakira ba mukerarugendo, kubera ko akarere ka musanze ni akarere kazwiho ubukerarugendo, ni akarere k'ubukerarugendo.